Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri. Aho yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, baba baje gushaka ubumenyi bwinshi.

Agakapu kari mu mabara y'umutuku, gashushanyijeho utunyamaswa tw'utunyugunyugu, tukaba ari udukapu twiza cyane twifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho batwaramo ibikoresho byabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ishushanyijeho ibikoresho bifashisha mu buhinzi harimo ikizwi nk'ingorofani, hakaba hari n'umunyeshuri uhagaze imbere yayo.

Ababyinnyi ndetse n'intore bari kubyina bahamiriza, baca umugara, bavuna sambwe, bitakuma, bakora mumitana bakibwira abatanazi kugira ngo baze kunyura abari aho ngaho maze banezerwe.

Inyubako yigirwamo n'abanyeshuri b'inshuke, iba ishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye, aho aba banyeshuri babyifashisha bari kwiga kugira ngo bajijuke mu mutwe ndetse no mu mibanire myiza n'abandi.

Igishushanyo cy'umuntu uri kwikomanga mu gatuza ariko kikajya kumera nk'ingagi neza neza iri mu mabara y'icyatsi, kika kiri kwikomanga mu gatoza bigaragara ko kiri gukanga abana.

Ahantu hari umurima uhinze washinzemo ipoto ariko urimo ibihingwa bitari byera, hakaba hari n'agahanda kari kunyuramo abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigaragaza ko bagiye ku ishuri.

Inyubako nziza cyane y'amashuri yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, by'umwihariko abiga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu mashuri yisumbuye. Bakigiramo maze bagatsinda.

Inyubako nziza cyane y'amashuri. Aho iyo nyubako iteye amarangi y'ubururu ku mabati ndetse ikaba ifite ubusitani bwiza cyane, buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse n'umucaca mwiza cyane.

Abantu bagiye batandukanye bakoze urwego bigaragara ko bari kwerekana uko bashyira hamwe. Iki gishushanyo rero, mwarimu akifashisha yigisha abanyeshuri kubara ndetse no kumenya amabara atandukanye.

Inkuru y'imbeba n'urukwavu, ikaba ari inkuru yamamaye kera aho imbeba yari yari iragiye inka maze urukwavu rukajya ruza gusatira imbeba ruyaka izo nka.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho hashushanyijeho amoko agiye atandukanye y'ibishyimbo ndetse ibyo bishyimbo bikaba ari ibishyimbo bikiri bito biri kumera, bari kwereka abana ukuntu bimera bimeze.

Umwana mutoya wiga mu mashuri y'inshuke, akaba afite udukombe imbere ye, turimo amarangi agiye atandukanye. Akaba ari kugenda akozamo uburoso, bigaragara ko agiye gusiga ahantu.

Udupupe tugiye dutandukanye twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, aho baba bari kwigisha abanyeshuri uburyo ki babasha kuba bamenya amoko agiye atandukanye y'utunyamaswa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse ikaba ishushanyijeho n'udushushanyo tugiye dutandukanye bifashisha bigisha abana b'inshuke.

Inyubako ziva cyane z'amashuri zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke zikunze kuba zishushanyijeho udushushanyo tugiye dutandukanye bareba maze bakishima bakanezerwa.

Udushusho tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi na yo agiye atandukanye. Tukaba ari twiza cyane ku buryo umwarimu atwifashisha yigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kubara.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bw'udupfurama zikaba ziri hakurya y'ikibuga cyiza cyane kandi kinini aho icyo kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru n'ubwo nta mazamu arimo.

Udushushanyo tugiye dutandukanye abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kujijuka, harimo igishushanyo cy'imbwa yambaye akantu k'umutima mu mutwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'amashuri. Hakaba hashushanyijeho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa cyane cyane nk'ibishyimbo. Aho babyifashisha bigisha abana bo mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho ifite urugo rwiza cyane kandi rugezweho ndetse ikaba inyuzeho n'inshinga ahagana hejuru.

Umwana mutoya cyane w'umuhungu uhagaze. Inyuma ye hari umukobwa uri gukaraba intoki akaraba mu buryo bugezweho. Ari gukaraba kandi kuri kandagira ukarabe kugira ngo yimakaze isuku.

Ubworozi bw'inkwavu bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye borora inkwavu barabigize umwuga bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, nuko nazo zikazabateza imbere maze bagakirigita ifaranga.

Akagare k'igipupe kari mu mabara y'umutuku kakaba gakorwa n'abarimu bigisha abanyeshuri b'inshuke maze bakajya bereka abana udukoresho twinshi tw'amabara.

Bumwe mu buryo bugezweho Leta y'u Rwanda yashyizweho bwo kwimakaza isuku ni kandagira ukarabe aho buri kigo cy'amashuri kiba gifite kandagira ukarabe maze abanyeshuri bagakaraba bakagira isuku.

Inyubako nziza cyane y'amashuri y'inshuke aho ku gikuta hashushanyijeho ibendera ry'u Rwanda, hakaba hashushanyijweho n'inyamaswa nini cyane izwi nk'inzovu iri gutambuka.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke, akaba ari kurya umunyenga ku bikoresho byabugenewe, biba byarashyiriweho abana igihe barimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kwishima.

Inyubako nziza cyane iba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite n'amabara menshi, bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, kugira ngo babashe kugira ubumenyi buhagije.

Abana bato cyane biga mu mashuri y'inshuke bakaba bicanye ahantu ku mukeka mu ishuri, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo.

Inyubako nziza cyane y'amashuri aho isakaje amabati y'umutuku, ikaba ifite amadirishya meza cyane aho ayo madirishya ateye marangi y'umweru hakaba hashushanyijeho n'utuntu twinshi.

Udupupe turi mu mabara agiye atandukanye, aho harimo; umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku, ndetse tukaba twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke.

Utugare turi mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku, hejuru hakaba hariho indege bigaragara ko twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke biga amabara.

Abana benshi cyane bicaye hamwe bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke bari kumwe na mwarimu wabo aho mwarimu ari kugenda abigisha amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho afite inzoka iri imbere yabo ari kubereka ukuntu iba imeze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'amashuri, aho ari inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye.

Agasanduku keza kari mu mabara agiye atandukanye, kaba karimo ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bari kwigaga isomo ryabo ry'imibare nk'amarati, uducaruziga, n'ikaramu y'igiti.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bambaye impuzankano bari kujya ku ishuri, imbere yabo hari icyapa kerekana ko ari mu kigo cy'amashuri cya Nyagatare, ko ari heza cyane.

Agasanduku karimo amarati agiye atandukanye ndetse n'uducaruziga tugiye dutandukanye, aho kaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza igihe bari kwiga isomo ryabo ry'imibare.

Udukinisho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kumenya amabara y'amoko agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri yisumbuye, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba isakaje amabati asa ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi batonnze hamwe ku muronko bakaba bari kumwe na mwarimu wabo aho iruhande rwabo hari icyuma kiriho ibendera ry'u Rwanda.

Inkuru ya Cibiri n'imirongo. Hari umukobwa uri guhererekanya akantu k'agafuka n'akanyamaswa gatoya kajya kumera nk'umuntu, gasekeje, gakanuye amaso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari y'umweru, iteye amarangi y'icyatsi ku bikuta ndetse ikaba ifite n'utuhesikariye twubakishije amabuye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho haba harimo amabara agiye atandukanye ku bikuta ndetse n'udukoresho dutandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ishuri yubatswe mu buryo bugezweho bwa kiyambere aho muri iyo nyubako harimo abagabo babiri n'abagore babiri, harimo intebe nyinshi ariko nta muntu numwe uri muri iyo nyubako.

Udukinisho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abarimu bigisha abanyeshuri b'inshuke, tuba turiho imibare n'amabara atandukanye kugira ngo abana bazabashe kubara ndetse no gusoma.

Ududukoresho tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza by'umwihariko igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare. Bakaba batwifashisha kugira ngo babashe kuritsinda.

Abantu bagiye batandukanye bagera muri babiri bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bashushanyije ahantu ku ikayi, ikaba yerekana ko aba bana bakiri bato cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako y'ishuri, aho mu imbere hari ibikoresho byose nkenerwa abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda neza amasomo yabo.

Amabara agiye atandukanye niyo yifashishwa abarimu bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kujijuka ndetse bamenye no gusoma neza ururimi rw'Ikinyarwanda.

Iyi nyubako nziza cyane'ikigo cy'amashuri abanza aho asakaje amabati y'ubururu ndetse hakaba hari ababyinnyi imbere bambaye imikenyero bari kugenda babyina bacinya akadiho bigaragara ko bishimye cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ,iyo bigeze mu gihe cy'akaruhuko bakunda kujya ku minyega igiye itandukanye, hanyuma bakajya baricundaho kugira ngo bumve banezerewe, kandi bishimye cyane.

Igipupe cy'akanyamaswa gafite amaguru ane ariko kakaba gafite umunwa usongoye nk'uw'inkoko gikunze kwigishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza igihe baba bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babereke amoko atandukanye y'inyamaswa.

Udukoresho tugiye dutandukanye, turi mu mabara menshi agiye atandukanye, ubururu, umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'ayandi, tukaba twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza, aho baba bari kwigisha abanyeshuri isomo ry'imibare.

Udukoresho tugiye dutandukanye harimo: amarati, amakaramu ndetse n'ibitabo tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse hakaba harimo n'ibindi byiza.

Inyubako yubatswe neza ikaba ari inyubako ifite urugi ruri mu mabara y'umutuku, hejuru hariho icyapa kinini cyane bigaragaza ko cyerekana Igororero rya Nyagatare.

Abanyeshuri bari kwandika ku kibaho bapfukamye hasi bikaba bigaragara ko bagera muri batanu harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bari kugerageza kwandika bose.

Abantu bagiye batandukanye, aho harimo umugabo n'umugore n'abana ndetse n'abasaza, bakaba bari kutwereka ishusho nziza y'umuryango wuzuye ugizwe n'abana, papa na mama.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho isakaje amabati ari mu mabara y'ubururu, ikaba yubatse neza cyane aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta ifite n'ubusitani.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, aho biba biri mu mabara menshi cyane abarimu bakifashisha aya mabara bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo bajijuke.

Ni udushusho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza aho tuba ari twiza cyane kandi tukaba ari ingirakamaro ku buryo umunyeshuri utwifashishije wese atsinda.

Uburezi buzira inenge, ni icyapa kimanitse ahantu kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, kikaba cyanditseho aya magambo aho bari kwerekana ko icyo kigo gitanga uburezi bufite ireme ku buryo nta mwana wahigira ngo abe yatsindwa.

Agasanduku k'umukara kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ,cyane iyo bari kwiga isomo ry'imibare. Haba harimo uducaruziga, amarati ,ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Agacaguziga, irati, ikaramu y'igiti ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari kwiga imibare.

Udushushanyo tw'utunyoni tubiri bigaragara ko umuntu atapfa kutumenya, tukaba turi ku gitabo aho hejuru handitseho ngo isandi n'intashya, umwandiko wigwa mu mashuri y'inshuke.

Abana babiri hagati yabo harimo urukwavu, iyi ikaba ari inkuru yifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza bari kwigisha abanyeshuri inkuru ya Kararabo ndetse na Shema n'urukwavu.

Udukinisho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza igihe baba bari kwigisha abana ukuntu bamenya kubara ndetse no kumenya amabara agiye atandukanye.

Udusanduku tugera muri dutatu tukaba turimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kugira ngo babashe kwiga neza isomo ryabo ryiza ry'imibare.

Ibitabo byiza cyane kandi bitandukanye byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, aho baba bagenda babisoma basomera abana bakiri bato kugira ngo banezerwe.

Ikibuga cyiza gikinirwamo imikino igiye itandukanye aho hakunze gukorerwamo imikino y'umupira w'amaboko izwi nka basiketi, iki kibuga rero kikaba ari cyiza cyane kandi ari kigari.

lnyubako nziza cyane aho nk'imbere ifite igikuta gisa n'igishaje ,kiriho ikibaho cy'umukara. Aho icyo kibaho kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bifashisha bari kwiga isomo ryabo ry'imibare kugira ngo babashe kuza kuritsinda, maze hakaba harimo kompa ndetse n'amarati.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze kwigishwa n'abarimu babo, aho babereka udupupe tugiye dutandukanye, utwo dupupe akaba ari ingenzi cyane ku buryo iyo batwigiyeho babasha gutsinda.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye. Ikaba isakaje amabati meza cyane, bigaragara yuko abantu bayigiramo babasha gutsinda neza.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo n'abashinzwe umutekano bakaba bagiye mu gikorwa cyo gutaha inyubako nshyashya, aho hari umugabo umwe ufite umukasi ari gukeba umugozi kugira ngo yinjire.

Abana bambaye impuzankano bakaba bazwi nk'imitavu ya Kirehe. Bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu ndetse n'udutiriningi tw'umukara, bari ku karasisi.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye, bakaba bafite icyapa mu ntoki bari kumwe na mwarimu wabo akaba ari kubashimira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako y'amashuri yisumbuye, aho mo imbere harimo umukobwa w'umunyeshuri bigaragara ko yagiye ku kibaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi aho bateraniye hamwe mu nyubako nziza cyane, bakaba bicaye ku ntebe batatu batatu ariko bagiye bashyiramo metero bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'udupira tw'icyatsi ndetse n'amapantaro y'umukara, bakaba bari kwifotoza bigaragaza ko bishimye.

Ni byiza cyane ko buri kigo cy'amashuri kigira ubwiherero bwiza cyane kandi bugezweho ndetse bufite n'ikigega gitangira amazi aba ari kugenda abuvaho kugira ngo atajya hasi akangiza ibidukikije.

Umuntu uri gupima umwana wiga mu mashuri yisumbuye amupima umuriro yifashishije agakoresho kabugenewe kifashishwaga mu gihe cya Covid 19 bapima ngo barebe ko umuntu nta burwayi afite.

Abantu benshi b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'ababyeyi babo bakaba bateraniye hamwe bari mu nama imbere hari umugabo ufite indangururamajwi ari kugenda abaha igitekerezo.

Umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye, akaba yicaye mu nzu y'isomero, aho ari gufasha abanyeshuri kubona ibitabo bigiye bitandukanye kugira ngo babashe gusoma maze bamenye ubwenge.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe bicaye imbere y'amashuri yabo bose bakurikiye umuntu uri imbere yabo uri kubagezaho ijambo dore ko bose bishimye cyane kandi banezerewe, batojwe ikinyabupfura.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu nama, biganjemo abanyeshuri ndetse n'abarezi babo. Hakaba hari umwe ubahagaze imbere ari kumwe na mwarimu wabo, aho mwarimu afite indangururamajwi ari kugenda ababwira igitekerezo cye, na bo bamuteze yombi, bamukurikiye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako iteraniyemo abantu bagiye batandukanye bambaye utujiri, bikaba byerekana ko ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye hamwe, aho bari kumwe na bagenzi babo, bakaba bari mu gikorwa cyo kwiga aho umwe ari kuba basomera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho muri iyo nyubako harimo abantu kugendamo bigaragara ko ari abarimu bigisha abanyeshuri ibijyanye n'amashanyarazi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro cyane cyane abanyeshuri bageze mu mashuri yisumbuye.

Abantu b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bambaye impuzankano z'ishuri nziza cyane ndetse bakaba ari abanyeshuri b'abakobwa bambaye na za karuvati.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bateraniye hamwe bambaye impuzankano y'dupia n'amajipo, bari kumwe na mwarimu wabo, uri kugenda aseka bigaragara ko abishimiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bicaye bari gukurikirana amasomo yabo, aho mwarimu ari kugenda abigisha ayo masomo kugira ngo babashe kwiga neza kandi batsinde.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifi abantu benshi bari imbere yayo bateraniye hamwe. Bakaba baje gusenga. Ikaba ari urusengero.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri y'ikigo cya Karangazi, uyu murenge wa Karangazi rero akaba ari wo murenge munini cyane mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, irimo amoko agiye atandukanye y'ibitabo. Aho iri ngiri ari isomero aho abanyeshuri bajya gutira ibitabo, hanyuma bagasoma kugira ngo bunguke ubumenyi.

Umunyeshuri wize neza agatsinda, akaba ari kumwe n'abarimu be, aho bari kugenda bamuhereza ibihembo bigiye bitandukanye, bamushimira ukuntu yabaye intwari na we abyakira yishimye cyane.

lnyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'icyumba cy'amashuri. Hakaba hari kugendamo abantu bari kuza gusura iryo shuri ,harimo abambaye utujile, ndetse n'abandi bambaye imyambaro isanzwe.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abantu bambaye nk'abaturage ndetse n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bari kugenda baha serivisi abo baturage baje babagana. Bakaba bari mu nyubako y'ishuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe, aho bari mu nama imbere yabo hagaze umunyeshuri mugenzi wabo ndetse na mwarimu, aho uwo mwarimu ari kubaza uwo munyeshuri hanyuma nawe akamusubiza, abandi nabo babateze yombi amatwi.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bakunze gushishikarizwa gukorera mu matsinda kugira ngo bungurane ubumenyi baba bafite maze mwarimu akajya aza kubakosora areba aho bitameze neza abafasha kugira ngo bungurane ubumenyi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'udupfukamunwa. Buri wese akaba afite ikaramu mu ntoki ari kugenda yandikira ku ntebe ye.

Umugabo wambaye amadarubindi, ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga ikiganiro, akigeza ku baturage. Akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'amashuri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri, aho mo imbere harimo abantu bagiye batandukanye by'umwihariko higanjemo abambaye utujurire bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri giherereye mu Karere ka Nyagatare kitwa G.S Gihengeri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bateraniye hamwe bambaye imyambaro iri mu mabara ajya gusa umutuku, bakaba ari benshi kandi bari mu nama bishimye cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, bakaba bari gukurikirana amasomo yabo aho bambaye imyambaro myiza cyane ndetse igiye itandukanye ku buryo buri wese aberewe.

Inyubako nziza cyane y'amashuri ikaba yubatswe mu buryo bw'amagorofa, aho igeretse kabiri, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko igihe atandukanye y'indabyo aho ziba ari nziza ku buryo umuntu wese uhicaye anezerwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa ikaba yubakishije amatafari ahiye, igeretse kabiri aho ifite utwuma twiza cyane tw'umutuku turinda abantu kuhanyura.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho hateraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abarimu ndetse n'abanyeshuri bari kugenda baganira ku nsanganyamatsiko runaka.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati akaba ari mu ishuri ari kwiga aho ari kumwe na bagenzi be bari inyuma ye kugirango bafatanye.

Abana biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bari gusubiramo amasomo yabo aho bari kwigira mu matsinda, hari umukobwa n'umuhungu bicaranye bari gusoma mu ikayi bishimye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi bagiye batandukanye bari kumwe n'abandi biga mu mashuri yisumbuye aho bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bakaba bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambereye, iyo nyubako ikaba ari inyubako y'ishuri aho mo imbere harimo ibikoresho byose nkenenerwa abanyeshuri bifashisha kugira ngo babashe kwiga ndetse banatsinde.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye bishushanyije ku gikuta bigaragara ko biba byarashushanyijwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako yubatse ahantu heza cyane, isakaje amabati y'umutuku, iteye n'amarange y'umweru kubikuta, ifite ubusitani bwiza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bya gihanga bikorwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'aya kaminuza baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro ndetse na tekinolojiya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ishuri aho imbere yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hakaba harimo ikibaho cyanditseho amagambo yandikishije ikaramu y'icyatsi.

Udushushanyo tugiye dutandukanye turi mu mabara agiye atandukanye y'icyatsi, umutuku, ubururu turi ahantu ku nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare.

Imodoka y'ibangukiragutabara ihagaze mu muhanda washashemo amapave munsi y'igiti kizana umuyaga n'amahumbezi, abantu bakaba bari kugenda bayisatira bigaragara ko bagiye gukuramo umurwayi uyirimo bakamushyira abaganga.

Abantu baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro by'umwihariko nk'abize muri Kaminuza y'u Rwanda, baba ari inararibonye cyane kubera ko baba bazi gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, bikoranwe ubugeni hanyuma ugasanga birashimishije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako ya kaminuza yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza hakaba harimo intebe nziza z'ubururu.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko rw'abakobwa beza cyane baseka amasaro agaseseka, bakaba bambaye udupira tw'umweru bari gukoma amashyi, bishimye bafite akamwenyu ndetse n'akanyamuneza ku maso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza, mo imbere harimo umugore witandiye bigaragara ko ari umwarimu, akaba afite ibitabo ari kurambura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo ibere harimo udukoresho dukozwe mu bugeni tubumbye neza, tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko nk'abize ibijyanye n'imyuga.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Aho iyo nyubako igizwe n'amagorofa abiri ndetse ikaba ifite n'inkingi nziza cyane, zigezweho, zisa umweru. Akayira gashashemo amapave.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako y'amashuri aho iyi nyubako inyuma yayo hari agahanda gashashemo amapade ndetse hakaba hambitse n'akadobo ka puberi gasa icyatsi bashyiramo imyanda igiye itandukanye.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzibonye, abona ko zitaweho kandi ari nziza cyane.

Umuntu uri gucuranga igikoresho cy'umurya w'inanga, akaba ashushanyije ku gikuta. Bikaba bigaragara ko yashushanyijwe n'abanyeshuri b'abahanga cyane.

Udupupe cyangwa se ibibumbano bigiye bitandukanye, biba byarakozwe n'abantu b'abanyabugeni by'umwihariko nk'ababa barabyize muri Kaminuza y'u Rwanda maze bakabikora neza cyane.

Sali nini cyane yateraniyemo abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bigaragara ko biga mu mashuri ya kaminuza, bakaba bari gukurikira mwarimu wabo uri imbere ari kubigisha kugira ngo barebe ko batsinda.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bari kwandika, bigaragara ko ari abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare, bakaba bari kugenda bandika ibyo mwarimu ari kuvuga.

Umudugudu unyuramo umuhanda ndetse hakaba harimo n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi bikaba ari ibishushanyo byashushanyijwe n'umuntu wize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa ikaba iteye amarange y'umutuku ndetse n'umweru, ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti.

Umuntu wicaye ahantu mu ishuri akaba ari kwandika mu ikayi ye aho afite imeza nziza cyane ari kugenda yandikiraho, bigaragara ko yiga muri kaminuza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, bakaba bicaye buri wese afite ikaramu n'ikaye bari kwandika, bigaragara ko bose bakurikiye umwarimu uri imbere abigisha.

Utuntu tubumbye mu ibumba bigaragara ko dukoranywe ubugeni tukaba turi ahantu, tukaba ari twiza cyane bigaragara ko umuntu watubumbye ari umuhanga cyane ku buryo tubereye ijisho.

Agapfukantoki k'umuntu, uwo muntu akaba yarize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro akaba akanika ibinyabiziga bigiye bitandukanye none yagakuyemo kakaba kanduye gasa umukara bigaragara ko yagakoresheje.

Abana bize mu mashuri yisumbuye n'ibijyanye n'ubugeni baba bafite ubuhanga n'ubunararibonye, aho baba bazi gushushanya utuntu twinshi tugiye dutandukanye, nk'uyu yashushanyije inanasi wagira ngo ni yo neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe neza, aho ari inyubako y'ishuri yigirwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, bakaba bateraniyemo aho bicaye bakurikiye mwarimu wabo.

Udukoresho dukozwe mu ibumba dukoranywe ubugeni tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda tuba ari twiza cyane ku buryo umuntu wese yishimira kutugura.

Intebe nziza cyane zigezweho zikunze kwicarwaho n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, ziba ziri mu mabara y'ubururu aho umuntu aba afite aho kwicara ndetse n'aho kwandikira hanyuma akiga neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho isakaje amabati y'umutuku ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza.

Udukoresho twinshi tubumbye mu ibumba tukaba twarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, bakaba batwifashisha mu masomo yabo ya buri munsi kugira ngo bamenye gukora ibyo biga.

Akavaze karimo utweyo tukaba ari udutako twiza cyane tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza kugira ngo bazabashe kugaragaza ubuhanga bwabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere akaba ari inyubako y'amashuri yisumbuye aho hateranira abanyeshuri baje kwiga bakigira kuri izo ntebe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ikaba ifite inkingi nziza cyane ndetse ifite na purafo iri gusa umweru kandi nziza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ari nziza cyane ndetse ikaba yubatswe yubakanye ubuhanga, yigirwarwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko Nyagatare.